Mu cyumba kwa muganga hari abarwayi ku bitanda, ibitanda byinshi bigera kuri bine hicayeho umusore ari kureba kuri terefone yambaye isengeri, imbere ye hari umurwayi uryamye areba hejuru, hirya ye naho hari umurwayi uryamye atyo, n'undi mumama yicaye hagati ari kubitaho.

Imodoka y'imbangukira gutabara abagabo iruhande rwayo benshi bageze kuri batandatu, umwe yambaye umupira wa kuruwa ruje uriho n'ikirango, undi yambaye ijaketi ya kuruwa ruje undi we ingofero ya kuruwa ruje, abandi batambaye ibirango bafite ikarita y'umunyamuryango mu ntoki.

Abakorerabushake ba kuruwaruje bahagaze bambaye amajeri ya kuruwaruje ariho n'ibirango, afite ibara ritukura, imbere yabo hari umugore na we ari guhereza undi ibase iteretsemo indobo, afatanyije n'undi mugabo bari mu bitaro.

Abantu bicaye mu cyumba mberabyombi, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ari mu macupa y'umweru kandi hari n'umugabo uhagaze, inyuma yabo hari ibishushanyo by'abana, kandi ahagana iburyo bwabo hari amagambo yanditseho ngo urubyiruko kugira amakuru ku buzima bw'imyororokere ni uburenganzira bwanyu.

Umugabo wicaye muri laboratoire ,yambaye yikwije yambaye n'agapfukamunwa ,yambaye ga z'umweru kandi arimo areba mundebakure, inyuma ye icometse umuriro.

Nyamikamba kuri posite do sante hari abantu bahagaze b'abagabo bari ku murongo, bamwe bifashe ku matako, abandi bifashe inyuma, bambaye amapantaro n'amashati, abandi bambaye umupira bari imbere y'inyubako y'ibyo bitaro.

Umukobwa wicaye mu biro ufite imisatsi iryamishije ireba inyuma, yambaye umupira w'umweru, imbere ye hari mudasobwa ari kuyikoresha kandi iruhande rwe hari ibindi bipapuro by'umweru rye byandikishijeho n'ikaramu kandi iruhande rwe nan none hari kashe icyuma batereshaga feza.

Kwa muganga mucyumba ahobafashiriza abarwayi, hari uwicaye ku ntebe wambaye ishati n'ipantaro y'umukara arimo areba hejuru, muganga arimo amwitaho, nawe wambaye umupira na ga z'umweru.

Imodoka iparitse imbere y'ibitaro, hino y'aho hari icyapa, aho iri hari amapave, imbere yayo hari ikiraro, hirya y'aho hari indabyo zikase neza.

Muri raboratwari aho basuzumira, bapimira n'imiti itandukanye n'indwara harimo abanyeshuri bari kwiga ariko umwe arimo arebera mundeba kure abandi bicaye iruhande rwe, umwe na we afite igikoresho mu ntoki, undi yicaye ariko bareba abandi babiri bari hirya na bo bari gukora ku ruhande rwabo bose bambaye amataburiya y'umweru.

Umugore wicaye uteruye mwana amushyize ku bibero umwana ari kureba hejuru nyina ari kumugaburira abandi bahagaze barimo uwambaye ijiri yanditseho umuryango wa oyemesi n'undi mugore wunamye arimo areba uburyo umwana ari kwitabwaho.

Umugore wicaye ari guseka gakeya uteze igitambaro arimo areba imbere ye, uteruye abana babiri b'impanga ari kubonsa umwe ari konka iry'iburyo undi ari konka iry'ibumoso.

Abantu benshi bicaye, umugore umwe uhagaze wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso wambaye n'impeta, ufite ibipapuro mu ntoki byanditseho, ufite na mikoro mu ntoki iri ku munwa arimo atanga ijambo.

Muri sitade abantu bari gufana: abagore, abana, abakobwa, abasore, bateye amaboko hejuru bambaye imipira isa kandi bamwe bari mu gice cyo hasi abandi bari mu gice cyo hejuru.

Ikigo cya Isange One Stop Centre cyubakishije amatafari ahiye, gifite amakositara kandi inzugi z'umweru zikaba zikinze, inyuma yaho hari n'indi nzu nayo itagaragara inzugi zayo.

Igishushanyo kiriho ibiganza bifatanye cyanditseho ngo: "Twite ku buzima bwo mu mutwe", inyuguti zanditse mu ibara ry'umweru, hasi hari nimero bahamagaraho 1024 kandi hariho n'ikirango cya Mastercard.

Abaturage benshi bahagaze ahantu hamwe ku murongo, bambaye udupfukamunwa, bamwe bafite ibitabo mu ntoki kandi bahagaze nk'abari kwifotoza ariko inyuma yaho hari indabyo zikase neza kandi hari n'inyubako.

Ibitaro byubatse neza kandi bigiye bifite inkingi imbere zifashe hejuru, bisize irangi, bikinguye, hariho kizimyamwoto, hirya yabyo hari parikingi iparitsemo imbangukiragutabara, imodoka itwara abarwayi.

Inyubako nini ifite amapave hanze, ifite irangi ry'umweru batangiramo imiti yanditseho farumasi, ifite inzugi nini z'umweru kandi zirimo ibyuma ariko bitarimo ibirahure.

Farumasi aho bafatira imiti y'abarwayi yo kwivura indwara zitandukanye, ikinguye urugi rw'umukara, isize irangi, ifite inkingi mbere. Hejuru yayo hariho igishushanyo kiranga ibihakorerwa.

Imiti y'amatungo iri mu dukarito dushushanyijeho inkoko y'inkokazi yazamuye ijosi, hasi imbere yayo hari imishwi, twanditseho ngo turimoxol_vet, kandi tukaba turi mu ibara ry'umuhondo n'irindi ry'icyatsi kibisi.

Umugore ufite umwana wicaye ku ntebe y'umweru ari kumwe n'abagabo babiri n'undi mugore, bombi bicaye kandi imbere yabo mo hagati harimo ameza bafite amakayi bari kwandikamo.

Ibibabi byinshi by'igiti k'intusu birunze hamwe, kandi bigiye bimanyuye kimwe kimwe, bigerekanye birimo n'imbuto zera ku giti cy'intusu iyo kimaze gukura.

Umugore ufashe igipimo bapimisha, arimo apima umugabo uhagaze wambaye umupira, inyuma ye hari umupolisi wambaye ga z'umweru, imbere ye hari abandi baturage benshi.

Umugore ufite agakapu wambaye iribaya n'inkweto k'umukara, ufite igitambaro mu ijosi arimo agenda yateye intambwe, afite n'umusatsi, inyuma ye haparitse moto, iruhande rwe hari inyubako yanditseho girubuzima.